Ubwishingizi bw'inkoko umworozi yishyura mirongo itandatu ku ijana naho leta ikamuha nkungani ingana na mirongo ine ku ijana by'agaciro k'ubwisungane bw'inkoko.

Kanda akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe, urwego, ugure turikumwe ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'abagize umuryango wawe, hanyuma wanahamagara kuri nimero, ijana na mirongo inani na rimwe, zeru.

Gira ubwishingizi bw'aho utuye, kuko Purayimu inshuwarensi irabigufashamo. Tura heza kandi uharinde. Ibindi bisobanuro, hamagara rimwe, gatatu, kabiri, zeru.

Komeza wizigamire wungukirwe agera kuri ane ku ijana ku mwaka radiyati yacu irabigufasha kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego ukurikize amabwiriza.

Ufite impungenge z'ibihombo mu bucuruzi bwawe, twandikire kuri watsapu zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu nari rimwe mirongo itatu na karindwi mirongo itanu na gatandatu.

Ramba ramba na buritamu yihitemo n'ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse wahitamo ubwishingizi bitewe n'umubare w'abagize umuryango wawe cyangwa bitewe n'ubushobozi ufite ndetse n'ubuvuzi ukeneye.

Niba ukeneye ubwishingizi bw'imodoka gana buritamu kugira ngo uhorane ibyishimo n'umunezero, kuko imodoka yawe iba iri mu biganza by'inshuti yizewe hitamo buridamu.

Shinganisha ubuzima bya we ndetse n' ubw' umuryango wawe, kuko ibyago ntawumenya aho biturutse. Kandi n'amakuba ntateguza, byazagufasha mu gihe bikubayeho.

Kampani y'ubwishingizi ya radiyanti y'ishingira n'amazu ya bantu inzu yawe ni igiciro cyawe kinini ikaba n'agaciro kawe menya neza ko irinzwe wishinganishije muri radiyanti.

Gana ikigo cy'ubwishingizi cya sonarwa ushinganishe ikinyabiziga cyawe yaba moto cyangwa imodoka, basure ku rubuga wawawa akadomo sonarwa akadomo come akodomo rw.

Ibitenge si ibyo gukenyera gusa kuko havamo imyenda myiza warimbana ukajya ahantu, havamo amakanzu maremare cyangwa amagufi ndetse n'amajipo cyangwa amashati.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye ririmo iy'abagabo ndetse n'iy'abagore amashati, amakanzu, amapantalo ndetse n'amakoti.

Ibikapu byiza byo guheka mu mugongo ndetse n'ibyo watwara mu ntoki bikorerwa inaha iwacu mu Rwanda biboshywe mu myenda y'amabara atandukanye harimo n'ay'icyatsi.

Iduka ricuruza imyambaro arimo amakanzu maremare y'abadamu cyangwa abakobwa n'amapantalo y'amajinisi ndetse bakagira n'amashati meza y'amaboko maremare nayo yabera abayambaye.

Nawe mucuruzo birakorohera kuko iyo ukoresheje ibiyemu utanga umusoro kuri buri mukiliya wese uje akugana bigatuma kuzabara imisoro yawe nawe bikorohera.

Twari tumenyereye ko ubudodo bubohwamo furali cyangwa ingofero ariko ubu siko bimeze kuko hadorwamo imyambaro itandukanye irimo imipira yo kwifubika, amakanzu, amajipo.

Aho ucururiza hagomba kuba hagaragara neza kandi hafite isuku ihagije, ku buryo umukiriya uje kuhagurira bimutera kuzagaruka, waba ucuruza inkweto cyangwa amasakoshi n'ibindi.

Ukeneye kwambara ukaberwa, shaka inkweto zijyanye n'imyenda, hano urahabona inkweto zizwi nka supuresi cyangwa iza siporo ndetse urahabona n'ingozi zo kwambara ku myenda y'amatisi.

imipira y'abana ndetse n'iy'abantu bakuru iri mu mabara atandukanye yi icyatsi ,orange, umutuku ,umweru ,umukara ndetse namapantaro y'abana hamwe n'amakabutura.

Ntabwo imisego yo kwisegura ifunikwa n'indi myenda gusa, ubu n'ibitenge wabifunikisha imisego kandi ukabona ko ikozwe neza. Hari utuyetageri twabugenewe two kuyimanikamo.

Kurimba ntago ari ukwambara imikufi ikozwe mu byuma gusa hari n'iy'ikozwe mu masaro cyangwa uduti tubajijwe neza tugatunganywa na wo urabambara ukahacana umucyo.

Imitako itandukanye ikorwa mu bintu bitandukanye, harimo iyibohwa mu migwegwe cyangwa bakifashisha ibirere naho havamo imitako wataka mu nzu iwawe.

Ushobora kuba ukeneye imodoka yo kugendamo ariko ugatekereza ko amafaranga ufite ari makeya, kuri miliyoni icumi z'amafaranga y'u Rwanda wakwigurira imodoka nawe uzajya ugendamo.

Akagera babafitiye imodoka nini zo mu bwoko bwa rukururana si ngombwa ko ujya kuyigura hanze y'igihugu cy'u rwanda kuko nabo barazifite kandi ku giciro cyiza barazibazaniye .

Ushobora kuba ukeka ko bidashoboka, ariko mu Rwanda habayeho igiceri cy'ifaranga rimwe, yakoreshwaga mu gihe cyashize. Ariko ubu ntago agikoreshwa, nubwo hari aho akigaragara mu ngo.

Witakaza umwanya wo kubara amafaranga ukoresheje intoki zawe, ahubwo kugira bitakuviramo kwibeshya, shaka akamashini kabugenewe kagufashe kubara amafaranga kandi mu gihe gitoya.

Amafaranga y'u Rwanda mu giceri cya makumyabiri, aya yakoreshwaga mbere mu minsi yashize aho yabaga ariho ikirango kigizwe n'insina iriho igitoki.

Bara amafaranga yawe ukoresheje akamashini kabugenewe. Bizatuma umwanya wari gukoresha uba muto, kandi uwusigaye uwukoreshe ibindi. Bizatuma utanibeshya, kandi nturuhe mutwe.

Ibigo by' imari bigira aho bikorera kugirango umukiriya wabyo ajye abona aho abasanga akeneye amafaranga yabikijemo iyo muje muri benshi mutonda umurongo mukakirwa hakurikijwe uko mwaje.

Amafaranga ibihumbi bibiri y'u Rwanda ashushanyijeho ibiyaga, ndetse hariho n'agaseke hariho amasinya abiri imwe y'umukuru wa banki, ndetse n'iyindi y'umwungirije.

Amafaranga ibihumbi bitanu, ni inote yakoreshejwe mu gihe cyashize hano mu gihugu cy'u Rwanda, yari ishushanyijeho insina iriho n'igitoki ndetse hariho n'abantu bari gusarura icyayi.

Banki nkuru y'u rwanda yashyize hanze inote y'amafaranga ibihumbi bitanu by'amanyarwanda nshyashya kugira ngo izagere igihe isimbure iyari isanzwe ikoreshwa.

Amafaranga inoto y'ijana, yakoreshwaga hano mu Rwanda, yarashyizwe hanze na banki nasiyonari y'u Rwanda, ariho umuntu uhetse umwana, ndetse hashushanyijeho n'imisozi iriho amashyamba.

Amata atunganywa n'uruganda inyange ni amata meza, ateguwe neza ashobora guhita anyobwa yujuje ubuziranenge yagurire umwana wawe.

Jya unywa amazi meza kandi asukuye inyange irayafite ari mu macupa matoya wagendana, ndetse n'ayandi manini washyira iwawe mu rugo bagira n'amata y'inshyushyu wahita unywa ako kanya.

Amazi y'isoko ya nili aratunganywa akagezwa ku isoko yujuje ubuziranenge, kugirango ufashe urugendo abone uko yaza kuzimya inyota, akayagura akayifashisha.

Ubucuruzi butandukanye bukubiyemo imitobe ikozwe mu mbuto, amabiswi, ibikomoka ku mata ndetse n'amazi n'ibindi birimo ibiribwa.

Zigamira itangira ry'amashuri y'abana, tangira umwaka mushya w'amashuri mu mahoro, izigamire na sipeni supa seva guhera none bagufashe kwishyura minerevale y'abana.

Ikaze kuri emutiyeni mobayire mane, wakoherereza amafaranga inshuti yawe cyangwa umuvandimwe, wakishyura amafagitire yaba ay'amazi ndetse n'izindi serivisi wagura n'ikarita yo guhamagara.

Hamwe na sosiyete y'itumanaho ya Airtel wakwishyura umuriro ukoresheje Airtel money, kanda anyenyeri ijana na mironginani na kabiri, akanyenyeri kane, akanyenyeri rimwe, urwego, ukurikiza amabwiriza.

Igihe ugiye kwishyura umusoro, ugomba no kugana irembo kugira ngo wishyure, hanyuma baguhe inyemezabwishyu igaragaza yuko nta deni usigaranye ry'umusoro.

Banyarwanda banyarwandakazi, ni ngombwa ko mugomba kuzirikanira igihe mwatangiragaho imisoro. Mutazajya mutinda kuyishyura bikagaragara ko muzajya mucibwa amande y'ubukere.

Hari igihe ushobora kujya kwaka serivise ahantu runaka bakagusaba ko ugaragaza niba nta mwenda w'umusoro ufite, egera Rwanda reveni otoriti icyemezo bakiguhe kuko baragitanga.

Amafaranga y'u Rwanda, inote ibamo nini ni inote ya bitanu, habaho n'iya bibiri ndetse n'iy'igihumbi, inote ntoya n'iy'amafaranga maganatanu.

Kongo bafite amafaranga y'inote igihumbi, ndetse na magana atanu n'inote ya magana abiri ,n'inote y'ijana, n'inote ya mirongo itanu, n'inote ya makumyabiri, hamwe n'inote y'icumi.

Mu kubaho kwa muntu akenera amafaranga kandi ni ingenzi kuko ibyo ukenera byose urayakoresha igihe ugiye mu kindi gihugu ni byiza yuko utwara ayo muri icyo gihugu kugira ngo nugira ibyo ukenerayo uzabone uko ubigura.

Inote zo mu kindi gihugu cy'igituranyi cya tanzaniya harimo n'inote y'amafaranga igihumbi y'amatanzaniya; harangwaho umuntu ushushanyijeho kandi hari n'akandi gafoto gato kariho karimo abantu bagaragaramo.

Amafaranga ibihumbi bitanu yo mu gihugu cya congo ni inote iriho umugore ushushanyijeho wambaye ibinigi ndetse hashushanyijeho n'imparage.

Egera ahatangirwa serivisi z'ivunjisha, baguhe amafaranga bitewe n'uko ku isoko bihagaze, yaba amadolari cyangwa n'ayo mu bindi bihugu yose, barakuvunjira ku giciro cyagenwe kandi kigezweho.

Mu isoko rya Nyabugogo aho bagurishiriza imbuto, umucuruzi yifashi ku itama kuko yabuze abakiriya kandi yari akeneye amafaranga, ari gucuruza inanasi, amapapayi, amaronji, imyembe, ndetse n'ibindi.

Uko ku isoko ry'ivunjisha amafaranga agiye ahagaze yo mu bihugu bitandukanye harimo erope, kanada, uganda na tanzaniya n'ibindi bihugu.

Amafaranga atanu yo mu gihugu cya Kongo ashushanyijeho umugezi munini mwiza utemba; ndetse ukikijwe n'ibiti by'inganzamarumbu.

Aho waba uherereye bigusaba kuguranisha amafaranga, egera ababishinzwe bafite ibiro by'ivunjisha, bakuguranire ayo ufite baguhe ayo ukeneye.

Abanyamahanga baza muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, begera ibiro by'ivunjisha kugira ngo babahe amafaranga yo muri kino gihugu bazajya bakoresha bakaguranirwa kuyo bavanye iwabo.

Ntuzatekereze ko igihe ufite amafaranga y'ubundi bwoko utabona aho uyavunjishiriza ngo baguhe ayo ukeneye, egera ibiro by'ivunjisha ubahe ayo ufite ubabwire ayo ukeneye barayaguha.

Gana ahakorera ibiro by'ivunjisha bagufashe kubona ubwoko bw'amafaranga ushaka yo mu bindi bihugu, igihe ufite amanyarwanda, cyangwa ufite ayo mu mahanga ukeneye amanyarwanda.

Igihe ukeneye kuvunjisha amafaranga yawe egera aho babikorera kugira ngo bagufashe kandi ushake ahantu hizewe hato utazahura n'abatubuzi. Amafaranga y'ubwoko bwose waba ufite mu bindi bihugu barakuvunjira cyangwa se uyakeneye.

Gana ikaze bafite ibiro by'ivunjisha ku mafaranga y'ibindi bihugu ukeneye ama nyarwanda barayaguha cyangwa ufite n'amanyarwanda ariko ukeneye amafaranga akoreshwa mu bindi bihugu.

Igikoresho gitangaje washyira iwawe mu nzu hakarushaho kugaragara neza kuko wamanikamo n'iyinindi mitako itandukanye ndetse wagira n'utundi tuntu ubikamo ko gafite utwanya twinshi duhagije.

Ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bibereye ijisho, ameza akozwe n'imbaho ndetse n'icyuma, hamwe n'intebe byakoreshwa mu rugo cyangwa se naho washinga bizinesi wabihakoresha.

Imbaho zivamo ibikoresho byinshi by'umumaro, bikenerwa cyane kandi bitandukanye, habazwamo ibitanda ndetse utubati, hatibagiwe ameza n'intebe.

Imbaho ni igikoresho gikenerwa n'abantu benshi, aho abagiye gukoresha intebe cyangwa ibitanda bakifashisha ndetse n'abagiye kubaka inzu na bo barabikenera.

Akameza gakozwe ku buryo butangaje, ushaka kugakoramo gatoya wakagira gatoya cyangwa se washaka ko aba ameza manini nabwo ukayongera cyangwa washaka ko aringanira nabwo ukayagira ameza aringaniye.

Intebe zo muri saro(Salon) nziza kandi zikeye . Twashyiramo iziri mu mabara atandukanye icyatsi cyangwa se n'ubururu bukeye kuko haba hari n'udusego two gushyiramo.

Gura ibikoresho bikozwe mu mbaho z'ibiti, biba bikemeye. Harimo, ameza intebe ndetse n'izo muri "salle à manger" kandi hari na "garde lobe" zo kubikamo imyenda.

Ushobora kuba warabuze uko ubika imyenda yawe mu buryo bwiza kandi bwizewe kandi ntiyangirike gura igikoresho kibajijwe mu mbaho ubone uko uzajya ubikamo imyambaro yawe.

Icyumba cyaberemo inama giteguye neza kuburyo gitatse harimo ibitambaro, n'intebe kandi hariho n'amazi y'inyange abantu banywa baje mu inama.

Umushinga wawe wateguye wo kubaka hoteli wibuke gukora ubusitani bwiza bubereye ijisho kandi uteremo n'intebe zo hanze kugira ngo ukeneye gufata akayaga abone aho agafatira.

Amafunguro ateguwe neza. Ushobora kuba ufite ibirori, byaba iby'igihe wavukiye cyangwa iby'ubukwe, washaka abantu bazi guteka neza bakagutegurira amafunguro, ukakira abashyitsi bawe.

Inyubako nziza ya komvesheni (convetion) igaragaza amabara agize idarapo yigihugu cyacu ariyo ubururu ,umuhondo n'icyatsi niheza cyane.

Hoteli zitekereza ku bazigana, zikabakira mu buryo bwiza, aho zishira naho umuntu yakwicara hanze kugira ngo ubikeneye ahicare afate umwuka uhagije.

Inyubako ya mariyoti hotel iherereye mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali igira serivisi zinoze kandi yakira abantu b'ubwoko butandukanye, yaba abanyamahanga, ndetse n'abanyarwanda.

Mu gikoni uba ugomba kuhagirira isuku ihagije yaba ku bikoresho ukoresha ndetse no ku myambaro yabugenewe wambara yo gukoresha mu gikoni ndetse n'ibyo ugiye gutunganya na byo bikaba bifite isuku ihagije.

Sonarwa umwishingizi nyawe kandi wizewe imaze igihe ikorera muri iki gihugu cy'u Rwanda kuko iri muri sosiyete z'ubwishingizi zaje kuhakorera mbere.

Fungura ahantu wakorera ube uhagarariye ibigo bya banki muri iki gihugu, kandi ucuruze na serivise z'irembo byose bizagufatanyiriza kukuzanira inyungu.

Sosiyete y'ubwishingizi ya prime, ibafitiye serivisi nziza aho washinganisha amashuri y'abana, cyangwa ibinyabiziga byawe, ndetse n'inzu utuyemo.

Gana radiyanti ikigo cy'ubwishingizi kuko kuri bo isezerano ni isezerano ushinganishe inyubako zawe cyangwa ibinyabiziga byawe, ndetse n'amashuri y'abana.

Ukeneye ubwishingizi muri Sonarwa ukaba utuye Kimironko si ngombwa y'uko ujya kubushakira ahandi kuko yahabashyiriye ishami kugira ngo mujye muyigana ibari hafi.

Abari n'abategarugori ntago batanzwe mu kwiteza imbere muri iki gihugu kuko bagiye bashaka imirimo ibahuriza hamwe, bakaboha imitako ndetse n'ibyo wabikaho nk'imbuto mu rugo akabishyira ku isoko.

Banki y'abaturage y'u Rwanda, ukeneye kuyigana wahamagara nimero zikurikira: zeru, karindwi, umunani, umunani, cumi n'umunani, karindwi, kabiri, zeru, zeru.

Tekana kuko hari ubwishingizi bwuzuye bw'imodoka yawe, hamagara zeru karindwi umunani umunani cumi na karindwi makumyabiri na gatandatu zeru zeru cyangwa maganatanu na cumi na kabiri zeru ni ubuntu.

Igitoki, ikiribwa gikundwa n'abantu batari bake kandi kiboneka ku mafaranga makeya. Wagisanga mu masoko atandukanye akorera hirya no hino mu gihugu, ndetse n'ayo mu cyaro, ni ho biba byiganje.

Shaka igishoro ucuruze imyenda irimo iy'abana ndetse n'abantu bakuru. Amapantaro y'abato n'abakuru, imipira y'abatoya n'abakuru, amakabutura y'abatoya n'abakuru, n'iyindi myenda wayishaka nayo ukayicuruza.

Hari ahakigaragara amasoko aremera ahatubakiye, ni byiza ko nabo batekerezwaho kugirango ibyo bacuruza bitazajya binyagirwa igihe haguye imvura kandi bakabona n'aho bikinga izuba kuko hari igihe riva ari ryinshi.

Akazi kose ni kazi ntuzagire uwo usuzugurira umurimo akora, yaba uwikorera imizigo ayitwaje abantu cyangwa ureberera umutekano w'abaturage ndetse n'uwucuruza ibiciriritse.

Amasoko yagiye yubakwa hirya no hino kugira ngo hagabanyuke abantu bacururizaga mu mihanda bazwi nk'abazunguzayi, ariko na bo bibagirira umumaro kuko aho bakorera ntibicwa n'izuba cyangwa ngo banyagirwe n'imvura kuko haba hasakaye.

Hari ubwo uba ukeneye guhindura imitako yawe yo mu nzu rero uzibuke gushyiramo n'ibiboshywe mu mifuka ndetse bikorerwa inaha iwacu mu Rwanda harimo uduseke dutoya two gutaka, ndetse n'udukoko dutoya two gushyiraho indi mitako.

Igihe wibagiwe guhahira ibyo wari ukeneye mu masoko, hari ababyiyemeje kukuzanira ibicuruzwa byo guhaha waba ukeneye bakabishyira murikaritsiye aho utuye, ku mihanda kugira ngo nawe ubone uko uhaha, nabo babone uburyo bwo kubaho.

Inkweto ziraboneka ku amafaranga makeya gura iz'abana cyangwa iz'abantu bakuru ubu ngubu ntago ugomba kwambara ibirenge ngo wabuze inkweto.

Ubucuruzi bukorerwa mu masoko atandukanye harimo ibitenge ndetse n'utundi dukapu, igihe ukeneye no kukidodesha haba hari abatayeri babisobanukiwe bakorera hafi ahongaho.

Imboga z'ubwoko bitandukanye inyanya, korojete, ibibiriganya, pavuro z'umuhondo ndetse n'ubundi bwoko bwinshi bw'imboga.

Ni isoko ricuruza imboga usanga bafite iz'ubwoko butandukanye inyanya, pavuro amashu karoti ibitunguru ndetse baba bafite n'ibirungo bitandukanye.

Haha ibiribwa byujuje ubuziranenge kandi bifite intungamubiri zihagije amashaza ,ibitunguru by'umweru ndetse ni by'umutuku, karoti, inyanya ndetse n'intoryi.

Ibiribwa bigaragara mu masoko igitoki, imboga zirimo karoti, ibitunguru imboga rwatsi, amashu n'ibindi biribwa byinshi na byo biba bihari.

Nyabugogo ahazwi nko ku nkundamahoro hajya humvikana inkuru nyinshi z'abantu bahajya bagiye kwiyambura ubuzima aho buririra hejuru bagasimbuka bakagwa hasi.

Ahari amadepo y'ubucuruzi haba hari n'abakarani batwaza umukiliya igihe aje kugura ibintu biremereye atabasha gutwara, baramufasha bakabimugereza aho akeneye, nawe akabishyura.

Akazu gatangirwamo serivise zimwe na zimwe za sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni. Kagane ufashwe ku kibazo waba ufite, icyo babona batakemura, bakohereza ku ishami ribakuriye.

Komeza kwitabira serivisi zitangwa n'umurongo w'itumanaho wa Emutiyene, aho bagena ibihembo ku bakiriya babo nk'amajire, imipira, amacupa yo gutwaramo amazi, ingofero.

Dufite amahirwe yo kugira sosiyete y'itumanaho izwi nka emutiyene, ihora itekerereza abakiriya bayo ibyiza birushije ibindi, ubu yazanye interineti yihuse ifite umuvuduko wo hejuru ya foji.

Umurongo w'itumanaho ukorera mu Rwanda wa eyateri utanga serivisi zitandukanye harimo wo guhamagara, ndetse no kohereza amafaranga, bagirana interinete yihuta.

Korana na sosiyete y'itumanaho ya emutiyene ukande akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego winjire mu isi nshya y'amafaranga kuko uzoherereza abawe kandi nabo bakoherereze uyabone kuri telefone yawe.

Kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri nimero iranga umucuruzi, urwego, wishyure.

Ushobora kuba umwe mu banyamahirwe bahabwa ibihembo na sosiyete y'itumanaho ya MTN ukoresheje akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe urwego ugakurikiza amabwiriza .

Wikisondeka kanda akanyenyeri gatatu, kane, gatanu, akanyenyeri umunani urwego. Uryoherwe n'inyongera ya interineti Emutiyene igenera abakiriya bayo.

Abahanzi barimo Bwiza, bifashishwa na emutiyene gususurutsa abakiliya babo, banabamurikira ibindi bikorwa bishya babagezaho cyangwa ibindi babafitiye mu minsi iri imbere.

Izihirwe na emutiyene, aho batanga ibihembo bitandukanye birimo imipira, kandi bakagenera n'abantu baje babagana ababasusurutsa, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza.

Emutiyene ijya igira igihe iha abakiliya bayo ibikoresho birimo ibirango bya emutiyene aribyo imipira, ingofero, amacupa yo gutwaramo amazi, ndetse n'imitaka.

Telefone uko yaba ingana kose yahamagara cyangwa ikakira amafaranga ndetse banayifashisha ukayohereza; ntibisaba ingano ya telefone ufite ahubwo ipfa kuba ari nzima ikora neza.

Gerageza kubika amafaranga yawe kuri terefone ngendanwa, aho kuyabika mu mufuka cyangwa iwawe mu rugo. Kuko emutiyene yashyize abayihagarariye mu duce dutandukanye, mu rwego rwo gufasha abantu kwirinda abibaga bakoze mu mifuka.

Hari igihe uba ufite simukadi ariko interinete ukoresha ari tiriji, kora simuswapu ni ubuntu uryoherwe na jiga imwe baguha imara iminsi irindwi.

Igihe ugiye kunywa esanse kuri sitasiyo, ntabwogo ari ngombwa kwishyura amafaranga mu ntoki, kuko mtn yashyizeho uburyo bwiza bworoshye bwo kwishyura ukoresheje Emutiyeni mobayiro mani yawe ukishyura esanse wanyweye.

Ibyo ukeneye bihahe utavuye aho uri, ukoreshe ikoranabuhanga wifashishe vuba vuba, bakugezeho ibyo ukeneye mu kanya nk'ako guhumbya utiriwe uva aho uri.

Isoko rigari bakugezaho ibintu ukeneye, bahamagare kuri zeru karindwi umunani, karindwi icyenda, umunani kabiri, gatandatu zeru zeru.

Imyambaro myiza ibereye abadamu bajyana mu biro aho bakorera akazi kabo gana juniya rwanda bakugezeho iyo myambaro ndetse n'iyindi barayigira myiza.

Gana ihaha bakugezeho ibikoresho ukeneye ubusobanuro bundi washaka, wahamagara zeru karindwi umunani umunani makumyabiri n'ikenda cumi na kane zeru kabiri.

Mu kukugezaho ibyo watumije hifashishije ikoranabuhanga kugira ngo babigusganishe aho uherereye, vuba vuba ibigufashamo kandi ntago bakoresha moto gusa hari n'abakoresha utugare bakakugezaho ibyo ukeneye.

Ifashishe vuba vuba, bakugezeho ibyo ukeneye utiriwe uva aho uri. Ibyo aribyo byose, urahaha wifashishije ikoranabuhanga, kugira ngo igihe uri mu rugo nawe ube wakoraga ibindi, aho kugira ngo utakaze umwanya ujya ku isoko.

Haha ibintu byiza kandi bigezweho wifashishije ikoranabuhanga, harimo imashini zo kumesa imyenda, moto n'ibindi bitandukanye. Hamagara zeru karindwi iminani itatu, mirongo itatu na karindwi, zeru mirongo itatu na gatatu.

Gura ibyo ukeneye wifashishije ikoranabuhanga, kandi ntugire impungenge kuko iposita barabikugezaho, yaba bikeya cyangwa byinshi, bafite n'imodoka nini zo kubitwara.

Haha icyo ukeneye wifashishije ikoranabuhanga usure urubuga wawawa, akadomo, kigure akadomo, rawa. Babikugezeho aho uherereye mu mugi wa Kigali ni ubuntu.

Akarere ka Gasabo umurenge wa Kakiru mu mujyi wa Kigali hari inzu iboneka ku mafaranga igihumbi na magana atanu y'amadolari buri kwezi.

Mu karere ka Kicukiro, umurenge wa kagarama, m'umujyi wa Kigali haboneka inzu nziza kandi nini igurishwa amafaranga y'u Rwanda miriyoni ijana namirongo itanu.

Kampani ziyegereje gushyikiriza serivisi zitandukanye zirimo ibibanza n'amazu ku bantu kandi zizewe, igihe ubikeneye wabagana ugahabwa ikibanza cyangwa inzu yo guturamo.

Mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe ahazwi nka Kabeza mu mujyi wa Kigali, wahabona inzu wagura ku mafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'u Rwanda.

I Kanombe, mu mujyi wa Kigali, mu arere ka Kicukiro, urabona inzu nziza wagura kuri miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda, nawe ikaba iyawe.

Mu mugi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda hagaragara inzu ikozwe neza wagura ukayituramo ufite miriyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda urayihaha ukayibamo.

Mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali hari inzu nziza cyane igurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni ijana na mirongo ine yigure nawe ibe iyawe.

Kagarama mu karere ka kicukiro hagaragara inzu nziza wabona ku mafaranga makeya amadolari igihumbi n'ijana ukwezi ukayibamo unezerewe.

Aparitema nziza iri mu mugi wa Kigali ahazwi nka Kibagabaga ufite amadorari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu urayibona ukaba wayigura nawe.

Niba ukeneye inzu nziza yo kubamo, zirahari mu mujyi wa Kigali, wishyura amafaranga angana n'igihumbi, magana atanu y'amadorari ku kwezi ukabona iyo nzu.

Inzu nziza ifite ububiko ni gikoni cyiza kandi kigezweho kigendanye n'igihe, igurwa amafaranga miliyoni mirongo irindwi nebyiri z'amanyarwanda hano mu mujyi wa Kigali.

Kacyiru i Kigali mu karere ka Gasabo, ushobora kuhabona inzu nziza yo kubamo aho wajya wishyura amafaranga agera ku gihumbi na maganatanu y'amadolari buri kwezi.

Mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda hari inzu ziba zihari zigurishwa zubatse neza, ufite amafaranga udafite umwanya wo kubaka iyawe wagura n'iyubatse kuri miliyoni mirongo irindwi neshanu z'amanyarwanda.

Igihe ufite amafaranga ntukabe ahantu hadasobanutse kandi uri mu mujyi wa Kigali ahaboneka amazu menshi kandi meza atandukanye ku madorari magana atanu mirongo itanu buri kwezi wakibonera inzu yo kubamo.

Mu mujyi wa Kigali i Remera hari inzu nziza ikodeshwa ya aparitema, ku mafaranga ibihumbi magana atandatu y'u Rwanda buri kwezi.

Inzu nziza yo kubamo, ikodeshwa amadolari igihumbi ku kwezi, ifite ibyumba bitatu byo kuraramo, n'ibindi byumba bibiri by'ubwogero.

Ushobora kuba wumva waba kibagabaga ariko, ukaba warabuze uko wahabona inzu, Hariyo inzu nziza ifite ibyumba bibiri, byo kuraramo, n'ikindi cyumba kimwe, cy'ubwogero.

Umujyi wa Kigali umurenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo urahabona inzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi maganatandatu buri kwezi, igizwe n'ibyumba bine byo kuraramo n'ibindi bitatu by'ubwogero.

Inzu nziza iherereye ahazwi nko mu birembo mu murenge wa kinyinya ifite ibyumba bine byo kuraramo ndetse na tuwarete eshatu.

Inzu iri mu gihugu cy'u Rwanda mu mugi wa Kigali uyikeneye wahamagara zero karindwi umunani gatandatu zeru rimwe gatandatu karindwi umunani ikenda.

Mu nkengero z'umugi wa Kigali mu karere ka Bugesara ahazwi i Kanzenze urahabona inzu yo guturamo kuri miriyoni cumi na zirindwi banagabanya.

Ishyura ibihumbi magana atandatu y'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, ubone aho waba muri aparitema nziza, ifite ibyumba bibiri byo kuraramo ndetse n'ibindi bibiri byo kogeramo.

Inzu nziza zikodeshwa ntago ari nini gusa kuko n'intoya nazo ziraboneka i Kigali ,i Remera icyumba kimwe cyo kuraramo ndetse n'ikindi kimwe cy'ubwogero ni nziza rwose irasa neza.

Niba ufite amafaranga ukaba warabuze inzu iri yonyine mu gipangu cyayo ukodesha Kicukiro irahari ifite ibyumba bine byo kuraramo n'ibindi bitatu by'ubwogero wishyure amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Kibagabaga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, wahabona inzu nziza yo gukodesha ifite ibyumba bibiri byo kuraramo n'ubwogero bugizwe n'icyumba kimwe.

Mu mujyi wa kigali ahazwi nka kimironko ni mu karere ka gasabo ushobora kuba ukeneye inzu yo gukodesha urishyura amafaranga ibihumbi magana tatu mirongo itanu buri kwezi.

Inzu nziza ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu, wayibona iri ahantu ku muhanda wa kaburimbo ku buryo wahagera bitakugoye, igihe cy'ibyondo ntabyo wahura nabyo.

Inzu ikodeshwa iherereye mu karere ka kicukiro umurenge wa Kanombe igizwe n'ibyumba bine byo kuraramo na bitatu by'ubwiherero, kandi ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu na mirongo itanu mu kwezi.

Irakodeshwa kandi ni nziza iherereye i Kanombe mu karere ka Kicukiro igizwe n'ibyumba bine byo kuraramo n'ibyumba bitatu by'ubwiherero ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu buri kwezi.

Inzu igurishwa yo kubamo igizwe n'ibyumba bine byo kuraramo ndetse n'ibindi bitatu byo kongera, ni Kicukiro, mu mujyi wa Kigali hano mu Rwanda.

Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, urahabona inzu igurishwa miriyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y' u Rwanda; ariko banagabanya kuko icyo ni igiciro.

I Kanombe na ho hubatswe amazu akodeshwa, agizwe n'ibyumba bine byo kuraramo n'ibindi bitatu by'ubwogero, kandi mu mbuga harasukuye, harasa neza.

Abantu batandukanye bafite amadapo y'ibara ry'umweru ubururu n'umutuku yanditseho Efuperi bakikije umukuru w'igihugu perezida Poul Kagame wambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru, uriho ikirangantego cya efuperi wazamuye akaboko.

Inzu nziza iherereye i Kanombe mu karere ka Kicukiro igurishwa amafaranga miliyoni ijana naro itanu, ifite ibyumba bitanu ndetse n'ibindi bine by'ubwogero.

Isoko ricuruza ibiribwa byiganjemo imboga harimo inyanya ,pavro, tungurusumu ,karoti ,amashu y'umweru, imiteja n'ibindi.

Ibikoresho byiza bikozwe mu mpu kandi bikomeye. Harimo amasakoshi y'abadamu amatoya ndetse n'amanini inkweto z'ubwoko butandukanye wazihasanga.

Abacuruza imyenda ubegere bakwambike imyenda y'ubwoko bwinshi butandukanye amakanzu, amajipo, imipira ndetse n'iyo kwifubika nayo wayibona utibagiwe n'amakoti.

Abayisiramu na bo bagaragaje ubushake bwo gutanga ubwisungane mu kwivuza, kandi hano buri wese aragaragaza ikarita ye kuko yishyuye mituweri.

Ikarita y’umunyamuryango ariyo mituweri do sante iriho ifoto ya nyirayo ndetse n’umwirondoro, guhera ku ntara ukamanura ukageza mu mudugudu abarirwamo hagaterwaho na kashe, igaragaza umwaka yishyuye.

Hari abatangiye kubona amafaranga biciye mu bwizigame bashyize muri ejo hezi mucyo Wiriyamu yahawe amafaranga angana na miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri na mirongo itanu y'u rwanda.

Tanga ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli buri mwaka, wowe n'abawe mwishyure kugira ngo igihe mwagize uburwayi muzivuze bitagoranye.

Twibuke kugana ejo heza kugira ngo tuzigamire amasaziro yacu, gana ara esisibi utange ubwizigame bw'igihe k'izabukuru kugira ngo nugera muri iyo myaka uzabone ikigufasha kubaho.

Ahatangirwa serivise zitandukanye, hagomba kuba hari intebe abaje bazishaka bicaraho igihe batarakirwa kuko hari n'igihe usanga batari bwakirirwe rimwe, hagenda hakirwa umwe ku wundi.

Ubwisungane mu kwivuza nka mituweli abana batoya batarafata irangagamuntu bahabwa udukarita bazajya bivurizaho turiho n'amafoto yabo.

Ntucikanwe n'ubungubu wayatanga ukishyura ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli, kugirango bigufashe igihe wagize uburwayi ntuzaremberere mu rugo, kuko iyo ugiye kwa muganga ucibwa amafaranga make cyane.

Ejo heza ntabwo ireba abantu bakuru gusa kuko n'abana irabareba. Ni ngombwa ko uzigamira amasaziro yawe ukiri muto, kugira ngo nukura ukagera mu za bukuru uzabone ibigufasha kubaho.

Twitabire gahunda ya ejoheza, dukanda akanyenyeri gatanu, zeru, gatandatu, urwego, cyangwa dusure urubuga wa eshatu, akadomo ejoheza, akadomo govu, akadomo rawa.

Ejo heza ubwiteganyirize bw'izabukuru mu nshingano za arayesesibi, tugane ejo heza kugira ngo ahazaza hacu tugeze mu za bukuru tuzabeho ubuzima twateguye.

Tanga umusanzu wawe wishyura ubwisungane mu kwivuza wowe n'umuryango wawe, kugira mutazarembera mu rugo, kandi wanafasha n'abandi badafite ubushobozi nabo ukabishyurira.

Muntu uwo ari we wese gana ejo heza kuko uzakomeza kurimba no muri pansiyo, uzaba ufite uburyo bwo kwiyitaho, kuko ayo wizigamiye azaba ari kugufasha muri icyo gihe.

Ikarita ihabwa umuntu wishyuye ubwisungane mu kwivuza iba iriho umwirondoro, we igihe afite irangamuntu ndetse n'amazina ye yombi n'aho akomoka cyangwa abarizwa bihereye ku ntara ukageza ku mudugudu.

Egera simba supamaketi bakugezeho ibyo ukeneye kuko bafunguye amashami atandukanye: Kimironko birahari, Kacyiru wayihasanga ndetse na Sonatibe na ho ntibahibagiwe.

Igihe cyose ugiye kugira ikintu ugura, ita ku gihe cyakorewe ndetse n'igihe kizarangirira. Utazagikoresha cyaramaze kuva ku isoko, bikakugiraho ingaruka.

Gana superi marishe ubonemo ibyo ushaka kugura byose, haba umuceri, ndetse n'amavuta yo guteka, bagufitiye n'akawunga ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Ahantu hateguyewe neza hacururizwa imboga, harimo amashu y'umutuku ndetse n'amashu y'umweru betarave karoti shufurere n'andi moko menshi y'imboga.

Hahira muri arimantasiyo, aho usanga igiciro cya buri gicuruzwa cyanditseho, ntaho baguhendera kuko byose uba wabonye uko bihagaze, si nk'aho usanga nta kintu cyanditseho.

Igihe utarasobanukirwa neza uko wakwishyura ukoresheje amafaranga ari kuri terefone yawe ngendanwa, abakozi cyangwa se abahagarariye Emutiyene bagusobanurira mpaka ubyumvishe ukabikora ubizi neza.

Nujya gukora ibicuruzwa uzashyira ku isoko ujye wita ku kintu ugiye kubipfunyikamo kuko nacyo kigira uruhare mu gukurura abakiriya baza kukigura; kandi aho bicururizwa naho bibuke kubishyira ku murongo neza ku buryo bigaragara bifite isuku.